Iyamamazwa ry'ikigo runaka, rifasha umuturage urigana mu kwishyurirwa ubwisungane mu kwivuza kandi bakaba batanga ubufasha bwiza kandi bwizewe.

Iyamamazwa ry'ikigo runaka ku byerekeranye n'uko ushobora kwiteganyiriza cyangwa ugafata ubwisungane n'ubwishingizi ku byerekeranye n'ibintu bitandukanye, haba inzu yawe cyangwa mu kwivuza.

Iyamamazabikorwa ry'ikigo runaka gishinzwe gutanga ubwishingizi ku bantu ndetse n'ibintu bigaragaza ubushobozi ndetse n'ubuhanga bafite kugira ngo bafashe ubagana wese.

Icyapa cyamamarizwaho n'ibigo bitandukanye; yaba ibyikorera ndetse n'ibya Leta kugira ngo bamenyekanishe ku baturage ibyo bakora, haba mu byerekeranye n'ubwishingizi cyangwa ubundi bufasha butandukanye.

Icyapa cyamamaza ikigo runaka aho kiri kwerekana uburyo umuturage ashobora kwiteganyiriza kandi akazizigama ari nako ashinganisha ibikoresho bye cyangwa ibindi bintu bitandukanye, urugero nk'inzu, cyangwa ubutaka, cyangwa ikinyabiziga cye.

Iyamamazwa ry'ikigo runaka gishinzwe gutanga ubwishingizi ku baturage mu kwivuza ndetse n'ubundi buryo bugiye butandukanye kugira ngo ababugana babishimire kandi bahabwe ubufasha bwihuse.

Icyapa cyamamaza ikigo runaka, cyereka umuturage uko ashobora gufata ubwishingizi, mu byerekeranye n'ibihingwa cyangwa ibyo yahinze, kugira ngo mu gihe biramutse bigize ikibazo bazabone ingurane yabyo.

Ikigo gishinzwe ubwishingizi haba ku binyabiziga, abantu, inzu, ndetse n'ubucuruzi kandi gifasha abaturage mu gihe bahuye n'ibiza, kuba bakwishingira ibyangiritse bagahabwa ingurane.

Icyapa cyamamariza ikigo runaka mu byerekeranye n'ubwisungane cyangwa ubwirinzi cyangwa ingoboka ku byerekeranye n'ibinyabiziga muri rusange aho umuturage ashobora kugira impanuka runaka ingoboka ye ikamukoboka muri cya gihe ari mu bibazo.

Uburyo bwashyiriweho abaturage mu kumenyekanisha uko bashobora kwizigamira iyaba ibyo muri iki gihe cyangwa mu gihe kiri imbere ku buzima bwabo cyangwa imitungo yabo.

Kwamamaza uburyo umuturage ashobora kwishyura ubwisungane mu kwivuza yifashishije igikoresho cye ngendanwa cya elegitoronike kandi akishyura mu buryo bwizewe .

Ubufasha butangwa n'ikigo gishinzwe ubwishingizi, kandi cyerekana uburyo bworoherezwa ku muturage, kuba yabasha kwiyandikisha muri icyo kigo kugira ngo bamufashe.

Icyapa cyagenewe kwamamarizwaho ubucuruzi bugiye butandukanye, bwaba ubucuruzi bw'umuntu yikorera ku giti cye cyangwa ubwa leta, cyangwa ubw'ikigo runaka gishinzwe gutanga ubwisungane, yaba mu kwivuza cyangwa mu bindi bintu runaka.

Igenamiterere ryashyiriweho kwereka umunyamuryango w'ikigo runaka gishinzwe kubika ndetse no gucunga umutekano w'amafaranga ye, uko amafaranga ye yagiye yinjira cyangwa agasohoka muri make uko yagiye akoreshwamo.

Igenamiterere igaragaza uko wagiye wohereza, wakira cyangwa ubika amafaranga yawe mu buryo bw'ikoranabuhanga .

Ubu buryo bw'ikoranabuhanga bwashyiriweho umuturage ku buryo kohereza amafaranga atiriwe ayafata mu ntoki bimworohera kandi akamenya ibyo agiye kohereza n'uwo agiye kubyoherereza mu buryo bwizewe.

Iyerekanwa ry'ukuntu konti y'umuturage yagiye ikoreshwamo yaba afata amafaranga cyangwa ayakuraho, muri makeya akagaragaza uko byagiye bikurikirana n'amatariki kandi byizewe.

Uburyo bwashyiriweho abaturage mu kuba bakoresha ikoranabuhanga rigezweho, kugira ngo babashe kwinjira muri konti zabo bakoresheje ibikoresho ngendanwa.

Urubuga rwashyizweho n'ikigo runaka mu gufasha abaturage kuba bakwinjira cyangwa bagakoresha cyangwa bakamenya uko konti yabo ihagaze bifashishije ibikoresho byabo ngendanwa bya elegitoroniki.

Uburyo ushobora kubonamo amafaranga ufite kuri konti yawe, wifashishije igikoresho cy'ikoranabuhanga bitabaye ngombwa ko wigira gusaba ubufasha.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwashyizweho n'ikigo runaka, kugira ngo umucuruzi cyangwa umunyamuryango ufitemo konti ye abone uko yagiye yishyura cyangwa uko ari bwishyure bitabaye ngombwa ko ajya gutonda umurongo.

Isoko rinini cyane rigurishirizwamo imyenda itandukanye by'umwihariko iy'abagabo, ahoshobora gusanga amakoti meza atandukanye ubwoko ndetse n'amabara ku buryo buri muntu wese urigana abona ibimukwiriye kandi bimubereye.

Iduka rinini kandi ryiza rifite isuku n'iryagenewe abagore ndetse n'abakobwa mu kuba babona imyambaro yaba iy'imbere ndetse n'iy'inyuma kandi isa neza inagezweho.

Iduka rigurishirizwamo ibikoresho bitandukanye, by'umwihariko ibituma abakobwa n'abasore barimba, hakaba harimo inkweto, amasakoshi, amaherena ndetse n'amasaha ku basore bifuza gusa neza.

Iduka rigurishirizwamo imyenda ingofero, imyenda y'abagore ndetse n'iy'abagabo mu buryo bwa rusange ku buryo urigana wese abona icyo yifuza kandi kimunogeye.

Iduka rigurishirizwamo imideli ndetse n'imyambaro myiza igezweho ku bagore ndetse n'abakobwa aho babona imyenda myiza ishobora kwambarwa mu gihe bagiye mu birori byihagazeho cyangwa bagiye ahantu hatandukanye.

Iduka ricururizwamo imyenda itandukanye yaba iy'abagore, abagabo ndetse n'abana, hakana cururizwamo ibikoresho by'imitako yo muri salo.

Ahacururizwa ibikorwa by'ubugeni, bitakwa mu ruganiriro ndetse n'ahandi hantu hatandukanye kugira ngo hase neza, hakaba hanacururizwa imyambaro ya gakondo kandi myiza, isa neza cyane.

Ahabikwa ibinyabiziga mu buryo bwihariye, yaba ibishinzwe ubwikorezi mu buryo rusange cyangwa ibitwara abantu mu buryo bwihariye.

Ikinyabiziga cyiza cyane kigezweho kandi cyizewe kiri ahantu heza kandi gishobora kuba cyabona mu buryo bworoshye lisansi kikabasha kuba cyagenda.

Ibinyabiziga bishyashya kandi bifite ubuziranenge kandi bisa neza ku buryo umuturage ukiguze cyangwa ukigenderamo yumva yisanzuye kandi anyuzwe n'uko gikozwemo kuko gisa neza kandi cyizewe umutekano wacyo.

Ikinyabiziga gishyashya kandi cyiza cyane, gifite ibara ryiza ku buryo ugitwaye yumva yisanzuye kandi cyujuje ubuziranenge.

Ibikoresho bikonwe ikoranabuhanga rihambaye rikora mu buryo bwa elegitoronike aho hari ibishinzwe gufata amashusho n'ibishinzwe kuyagaragaza mu buryo busa neza.

Ahatangirwa ubufasha ku baturage, aho umuturage wese uhagannye ahabwa ubufasha akabona amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwizewe, aho nta muvundo uba uhari, kandi agahabwa ubwo bufasha mu buryo busa neza.

Ahatangirwa ubufasha butandukanye ku muturage yaba ubwo kwishyura cyangwa kwakira amafaranga ayavanye kuri konti ye.

Abashinzwe umutekano w'ibintu runaka aho bahagaze bacunze umutekano w'ibintu biri kwimurwa bivanwa ahantu hamwe bijyanwa ahandi; kugira ngo hakomeze kubungabunga umutekano waho.

Ahatangirwa ubufasha ku bantu bakeneye kubika amafaranga yabo cyangwa kuyabikura bifashishije ikoranabuhanga ariko bakabifashwamo n'ababishinzwe.

Ikusanyirizo ry'amata aho abaturage bazana amata yabo bavanye mu musaruro w'inka, kugira ngo bayakusanyirize hamwe banayabafashe kuba bayarinda kwangirika ndetse n'abaturage babashe kuba bayabona akimeze neza.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibindi bintu bitandukanye by'umwihariko ibyo kunywa n'ibyo kurya bikaba bifasha umuturage kuba yabona ayo mata kandi asa neza afite n'isuku.

Ahari gukusanyirizwa amata kugira ngo abikwe neza mu bicuba bya kijyambere maze agezwe ku baturage adafite ikibazo.

Ahagurishirizwa ibintu bitandukanye by'umwihariko ibyorya ndetse n'ibyo kunywa, hakaba hari isuku kandi hakaba hakusanyirizwa bimwe mu byo kunywa harimo n'amata, ku buryo umuturage wese aba ashobora kuba yayabona mu buryo bworoshye.

Iduka rigurishirizwamo amazi ndetse n'amata ku buryo byorohereza umuturage mu kubona amazi meza ndetse n'amata meza bitabaye ngombwa ko ajya kuyashaka mu baturage.

Icyuma cyabugenewe kandi cyihariye mu kuba kirinda amata mu kuba yakwangirika mu gihe bayashyizemo kandi kigatuma amata ashobora kumara igihe kinini ataragira ikibazo.

Uburyo bwashyiriweho abaturage n'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, kugirango umuturage ashobore kuba yakura amafaranga kuri konti ye, ayashyira ku gikoresho cye cya elegitoronike.

Iduka rifunguye ricuruza ibikoresho byo mu nzu, matora, intebe zikoze mu buryo butandukanye, ameza, utubati, tujyamo inkweto n'utwo bashyiramo ibindi bintu, intebe za purasitike zigerekeranye.

Uburyo bugezweho kandi bwizewe bwashyizweho n'ikigo runaka mu kureba cyangwa kugaragaza inyishyu, cyangwa uburyo umuturage yishyuyemo ibikoresho bye cyangwa bimwe mu byo yahashye.

Urubuga rwemewe rwashyiriweho abaturage mu kohereza cyangwa kwakira amafaranga avuye mu bindi bihugu aza mu gihugu umuturage abarizwamo.

Uburyo bwashyiriweho umuturage, mu kwishyura yifashishije ikoranabuhanga, kandi rigezweho, akerekwa uko amafaranga ye arimo aragenda gake gake, kandi ko birimo biragenda neza.

Icyemezo gitangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cyerekana ko umuturage nta mwenda namuke afite w'imisoro ku mitungo ye.

Icyangombwa kigaragaza uburyo umuturage ufite konti mu kigo runaka yagiye ayikoresha, uburyo amafaranga yagiye yinjira, n'uburyo yagiye asohoka kandi n'amafaranga bagiye bamwaka kugira ngo bamuhe ubwo bufasha.

Icyangombwa gitangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, cyerekana ko nta mwenda urimo urasabwa n'umuturage.

Icyapa cyamamaza uburyo iguranwa ry'amafaranga yo mu bindi bihugu bigenda ndetse n'agaciro kayo kandi bigafasha umuturage kumenya ko atahenzwe kandi agahabwa ubufasha akeneye mu buryo bwizewe.

Ahatangirwa igura cyangwa igurana ry'amafaranga aturutse mu kindi gihugu kugira ngo baguhe akoreshwa muri icyo gihugu kandi yemewe.

Iduka ritangirwamo ubufasha ku byerekeranye no kwakira amafaranga avuye mahanga, kugirango agere ku muturage uri mu gihugu gitandukanye n'icyo uwohereza arimo.

Ahakorerwa iguranwa ry'amafaranga avanwa mu madolari cyangwa mu yandi mafaranga atandukanye n'ay'icyo gihugu akoresha muri rusange.

Ahatangirwa ubufasha butandukanye mu guhabwa amafaranga cyangwa mu kohereza amafaranga mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse bakamenya n'uko amafaranga yabo mu iguranwa ry'andi mafaranga yo mu bihugu bitandukanye bigenda.

Ahacururizwa hakanatangirwa ubufasha butandukanye, ku byerekeranye n'ibigo bitandukanye by'ikoranabuhanga, ndetse bakaba bashaka kugufasha kugira ngo ubone amafaranga avuye mu kindi gihugu, kandi bakanayashyira mu mafaranga icyo gihugu kiba cyakoresha.

intebe nziza kandi zikomeye, zo mu ruganiriro, zifite ameza asa neza, kandi akoze neza, hakaba n'akabati kabikwamo imyenda, mu buryo bwizewe.

Imitako yo mu ruganiriro ituma uruganiriro rusa neza kandi abahicaye bakumva bisanzuye, kuko hasa neza kandi hatekanye.

Ubukarabiro bwa kijyambere kandi butuma uri koga atabasha kuba yasesagura amazi menshi kandi akoga neza mu buryo bufite isuku.

Intebe nziza cyane zishyirwa mu busitani kugira ngo abantu bazicareho kandi bumve batekanye ari nako bakora ibintu bitandukanye bicaye kuri izo ntebe.

Intebe nziza cyane zo mu ruganiriro zikaba zifite amabara meza ameza asa neza kandi agezweho byose bikaba ari ibya kijyambere.

Intebe ndetse n'meza byiza cyane byagenewe gushyirwa mu buririro kandi bigafasha ababyicayeho kurya bisanzuye.

Uruganiriro rwagenewe kwicarwamo n'abagana ibigo runaka cyangwa ahantu runaka bafashirizwa kuburyamo, kandi bwiza bakicara bategereje ahantu heza hasa neza kandi bafite intebe zimeze neza ku buryo bumva bisanzuye.

Ahantu hateguye kandi hasa neza hafite isuku, ndetse n'ibiryo bihari biteguranywe isuku kandi bikoranywe ubuhanga ku buryo ugiye kubifata wese, yumva yisanzuye kubera isuku yabyo.

Ikigo saniramu gifasha abakigana mu bwishingizi ndetse no gushinganisha ibyabo.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, aho kiba giteguye neza ameza asa neza ndetse n'intebe zifasha abazicayeho kugira ngo bumve bisanzuye hakaba hari n'ibyo kunywa bibafasha kugira ngo bakomeze kumva batuje mu bwenge bwabo.

Inzu nziza cyane yo gukodeshwa ku kwezi; irimo intebe nziza cyane ndetse haranasa neza, iyi nzu ushobora kuyibona ku madorari "igihumbi magana atanu" yonyine ku kwezi muri Kigali.

Ahacururizwa ibyo kunywa bisembuye kandi hasa neza cyane, ku buryo uhicaye wese yumva yisanzuye kandi ameze neza.

Ahantu heza kandi hasa neza cyane, batangira ubufasha butandukanye, by'umwihariko mu byerekeranye n'amacumbi, ndetse bakaba banafasha umuturage kubona ibyo kurya mu buryo bwihuse. Hakaba hasa neza kubera ubusitani bwiza butuma haboneka umuyaga mwiza cyane.

Inzu nini kandi nziza ifite amagorofa menshi atandukanye kandi ushaka usangamo ubucuruzi, ndetse n'ubufasha butandukanye ku byerekeranye naho kurara cyangwa ibyo kurya runaka kandi bisa neza bifite n'isuku.

Ahakorerwa inama zitandukanye, kandi hasa neza ku buryo abayirimo bumva bisanzuye haba mu myicarire no mu guhanahana ibitekerezo ndetse banisanzuye.

Ahantu hatangirwa ubufasha butandukanye by'umwihariko ku byerekeranye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, aho ushobora kwicara ukaruhuka neza ku muntu wumva ko ananiwe kandi hari ubwogero bwiza bwa kijyambere, ku buryo uhari yumva yisanzuye kandi yu...

Mu masaha ya nijoro mbere yanjye ndahabona etaje y'ubucuruzi, aho hasi hari icyapa cyanditse ngo Simba Gishushu, ndabona na none icyapa kigaragaza y'uko nta parikingi ihari, hakaba hari n'intebe za parasitiki z'umuhondo ndetse n'izitukura n'utu meza twazo.

Igikoni cyiza cyane gifite isuku, aho umuntu uri kugikoreramo ,afite ibyangombwa byose nkenerwa kugira ngo abashe kuba yateka kandi agatekana isuku, kandi hakaba hari n'ibyo ateka urugero imboga, imbuto, amavuta ndetse n'ibindi bintu byose ashobora kwifashisha mu guteka kwe kandi bikaza kuba biryoshye.

Ahakirirwa abaturage baje bagana ikigo runaka gishinzwe gutanga ubufasha mu byerekeranye n'ubwisungane bw'ibintu runaka cyangwa bw'abantu kandi bakabaha ubufasha bwihuse kandi bugezweho.

Ahatangirwa ubufasha butandukanye, bwaba ubufasha ku byerekeranye ubwisungane mu kwivuza cyangwa ubwisungane mu kurinda ibikoresho ndetse n'ibinyabiziga mu buryo bwa rusange.

Ahakorerwa ubucuruzi butandukanye yaba mu byerekeranye n'ubwisungane, yaba mu kwivuza ndetse n'ubwishingizi ku bintu bitandukanye ,hakaba hanakorerwa n'iguranwa ry'amafaranga mu buryo bwa rusange.

Ahatangirwa ubufasha ku baturage yaba ubwerekeranye n'ubwishingizi bw'ibintu cyangwa ahantu cyangwa umuntu, kandi bakabuhabwa bumva bisanzuye.

Icyumba gikorerwamo n'abakozi bashinzwe gutanga ubufasha kubakeneye ubwishingizi bw'ibikoresho byabo cyangwa imitungo yabo.

Ahakorerwa n'ikigo gishinzwe gutanga ubwisungane bw'ibinyabiziga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye mu gihe biramutse bigize ihagize ingaruka zibigeraho urugero nk'inkongi y'umuriro cyangwa gusenyuka kw'inzu ku buryo umuturage wese uhagana ahabwa ubutabazi ndetse n'ubufasha bwawo.

Ahatangirwa ubwisungane mu kwivuza, ibinyabiziga, ibikorwaremezo runaka cyangwa mu byerekeranye n'ubutaka, aho abaturage bashobora kubagana bagahabwa ubufasha kandi bwizewe.

Inzu ndende kandi nziza yubatswe mu buryo bwa kijyambere ikorerwamo ibikorwa bitandukanye mu gutanga ubufasha ku baturage mu byerekeranye n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga byabo cyangwa ibindi bintu runaka.

Ahatangirwa ubufasha mu byerekeranye n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga inzu ndetse n'ubucuruzi mu gihe hagize impanuka ibigeraho.

Ahandikwa umwirondoro w'umunyamuryango cyangwa umuntu wifuza inguzanyo, zitangwa n'ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo, kikanabungabunga n'umutekano w'amafaranga y'abaturage.

Iyamamazwabikorwa ry'ikigo runaka, gishinzwe gutanga inguzanyo cyangwa kikarinda umutekano w'amafaranga runaka y'umuturage, aho bamukangurira kuba bafata inguzanyo kandi ikazamufasha no mu gihe kiri imbere by'umwihariko mu bikorwa byiwe akora.

Uburyo bwashyiriweho abaturage mu kuba basaba inguzanyo, kandi bagasobanurirwa uko inguzanyo yabo ishobora gufatwa, kandi bakanayishyura mu buryo bwihuse, kandi bufitiye akamaro umuturage ndetse n'ikigo runaka.

Ibyangombwa by'ikigo runaka umuturage asabiraho inguzanyo kugira ngo basigarane imyirondoro ye ku buryo bizoroha kumushakisha ubutaha.

Amabwiriza agenewe ugiye gufungura konti ye mu kigo gishinzwe kubika no gutanga umutekano w'amafaranga runaka agomba kuzuza kugira ngo babike imyirondoro ye.

Iyamamazwabikorwa ry'ikigo runaka gishinzwe umutekano w'amafaranga ndetse no gutanga inguzanyo ku baturage, aho cyashyiriweho abaturage kugira ngo kibafashe kinashimira umukuru w'igihugu kubw'ubufatanye akomeje kugaragaza afasha iki kigo.

Iyamamaza ry'ikigo runaka mu byerekeranye n'uko wafata inguzanyo, kugira ngo wizigamire cyangwa ukore umushinga runaka, kugira ngo ugufashe uyu munsi ndetse uzanagufashe no muri ejo heza hawe hazaza.

Iyamamazwa ry'ikigo gishinzwe kubika amafaranga y'abaturage kandi kigacunga n'umutekano wayo mu buryo bugezweho, kikaba cyerekana ko umuturage ashobora kuyabitsa kandi akizera umutekano.

Uburyo bwashyizweho n'ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo ku muturage, ndetse agahabwa ubusobanuro bwizewe, kandi buhagije nk'uburyo yahabwamo izo nguzanyo.

Ahatangirwa ubufasha by'umwihariko mu byerekeranye n'ubuhinzi, ku buryo uhagannye bamusobanurira neza uburyo butandukanye ashobora gukoresha, kugira ngo yite ku buhinzi bw'iwe ndetse n'umusaruro abona

Isoko rinini rigurishirizwamo ibintu bitandukanye, yaba imyenda yo kwambara, ibikoresho bisanzwe urugero nk'ibikapu byo guhahiramo kandi bigezweho bihuje n'umuco w'icyo gihugu.

Ahagurishirizwa ibyo kurya mu buryo bwa rusange, aho abaturage bashobora kuza guhaha kandi bisanzuye, kuko hagurishirizwa ibyo kurya byaba ibinyamafufu cyangwa imboga ndetse n'imbuto.

Isoko rinini kandi rihuriramo abantu benshi baje guhaha ibyokurya by'umwihariko ibiribwa birimo imboga n'imbuto kandi bakabibona mu buryo bworoshye ku biciro biri hasi.

Isoko rinini ry'umujyi wa Kigali, rikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, ubu cyane cyane ubucuruzi bucuruza imyenda, hakaba habonekamo ibyo kurya, hakaba hari umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'abaturage.

Isoko rinini ricururizwamo imitako y'ubugeni butandukanye yerekana umuco runaka w'igihugu aho bamukerarugendo bashobora kubona iyo mitako kandi bakamenya na bimwe mu biranga umuco w'icyo gihugu.

Iduka ricururizwamo imyenda yaba iy'abagabo ndetse n'iy'abagore, aho urujya n'uruza ruri kuza, bari kuza basaba bahagana kugira ngo babafashe babone ibyo bakeneye.

Uburyo bwashyiriweho abaturage mu kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga ndetse n'abacuruzi bagahabwa imibare ibafasha kuba bakwishyurirwaho bakaza kubona amafaranga yabo, kandi mu buryo bufite umutekano.

Uburyo bwashyizweho mu kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga by'umwihariko twifashishije ibikoresho ngendanwa bya elegitoronike aho ushobora gukoresha banki yawe cyangwa ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga ryashyizweho n'ibigo bitandukanye mu itumanaho.

Imibare ihabwa umucuruzi kugira ngo ajye ayifashisha mu by'umwihariko ayiha umuguzi amwishyure akoresheje ikoranabuhanga rya interinete, kandi n'umucuruzi abasha kuyabona bitabaye ngombwa ko afata amafaranga mu ntoki.

Ahatangirwa ubufasha, ku byerekeranye n'ikoranabuhanga, by'umwihariko ku kigo gishinzwe itumanaho rusange n'ihuzamirongo.

Imibare itangwa n'ikigo gishinzwe itumanaho mu gihugu, kugira ngo gifashe umucuruzi kuba yakwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga ndetse n'umuguzi abashe kuba yakwishyura kandi yizeye ko ibyo yishyuye bigeze ku mucuruzi, kuko biba bifite umutekano.

Umuturage uri kwishyura yifashishije ikoranabuhanga. Yishyura akoresheje kode zagenewe umucuruzi zitangwa n'ikigo runaka gishinzwe itumanaho mu gihugu.

Abashinzwe gutanga ubufasha ku baturage, berekana uburyo bashobora kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga by'umwihariko bifashishije ibikoresho byabo ngendanwa bya elegitoronike, kugira ngo babashe kwishyura bakoresheje rya koranabuhanga kandi mu buryo bwihuse.

Ahatangirwa ubufasha butandukanye by'umwihariko mu byerekeranye n'itumanaho ndetse umuturage abona amafaranga bimworoheye atiriwe ajya gutonda umurongo ashaka amafaranga mu bigo bishinzwe kuyatanga.

Iyamamazwa ry'igurishwa cyangwa ry'icuruzwa rikorerwa kuri mudasobwa wifashishije murandasi ndetse ushobora kuba yarigeraho wese, akaba yahaha mu buryo bumworoheye kandi bakabimugezaho mu buryo bworoshye kandi ku buntu.

Umuturage ushinzwe gutanga ubufasha ku muntu wahahiye kuri murandasi, kandi akamugezaho ibikoresho bye bimeze neza kandi mu buryo bwizewe binafite isuku.

Iduka ryiza riri ahantu hasa neza cyane rigurishirizwamo ibikoresho bitandukanye by'umwihariko ibikoresho bya elegitoronike ku baturage.

Urubuga rwashyiriweho abaturage by'umwihariko mu guhaha bifashishije murandasi, kugira ngo babone ibyo bakeneye by'umwihariko, mu byerekeranye n'imboga ndetse nimbuto.

Ihahiro rikorerwa kuri murandasi aho ushobora gusura imbuga zigiye zitandukanye ku byerekeranye n'ibyo ushaka guhaha yaba ibikoresho, yaba kurangira aho ushobora kugura n'ibyo ushobora kugura kandi mu buryo bwizewe.

Ihahiro rikorerwa kuri murandasi, aho ushobora kwamamaza ibikorwa byawe kandi hakaba hasurwa na buri muntu wese akabona ibikorwa ukora ndetse n'ibicuruzwa byawe.

Umuturage uri kugezwaho ibyo yahashye yifashishije ikoranabuhanga, kandi akaba ari kubigezwaho mu buryo bwizewe nkuko yabisabye yifashishije rya koranabuhanga.

Ihahiro ryo kuri murandasi rifasha umuturage kuba yahaha yifashishije ibigo runaka, biri ahantu aho ariho hose ku isi yose, kandi akaba yizeye umutekano waho.

Ihahiro ryo kuri murandasi, ribaho ibintu bitandukanye, byaba ibikoresho byo mu rugo, cyangwa ibikorerwa ahatangirwa ubufasha bw'ibanze ku baturage.

Ikigo gishinzwe gufasha abantu bahahiye kuri murandasi kuba bagezwaho ibyo bahashye mu buryo bworoshye kandi butekanye .

Umwe mu bakorana n'ikigo runaka, gishinzwe kugeza ku muturage ibyo yahashye yifashishije ikoranabuhanga rya murandasi, kandi akabimugezaho neza, uko yabisabye.

Umuturage ufite ikinyabiziga cyabugenewe mu gutwara cyangwa mu kugeza ibyo umuntu yahashye yifashishije ikoranabuhanga, bakabimugezaho mu buryo bwiza kandi busa neza kandi bwizewe ubuziranenge bwabyo.

Iduka rigurishirizwamo ibikoresho bya elegitoronike ndetse bakaba banatanga ubufasha ku bantu bifuza guhaha bakoresheje murandasi zabo, bibereye mu ngo zabo cyangwa ahandi hantu hatandukanye batiriwe bahagera.

Ihahiro ryo kuri murandasi aho ushobora gusanga ibikoresho bitandukanye byaba imideri cyane cyane ku bakobwa amaherena amasakoshi n'utundi dutandukanye dutuma bakomeza gusa neza.

Ihahiro ryo kuri murandasi ryizewe kandi rigezweho, aho ashobora usanga ibintu bitandukanye, ibikoresho bitandukanye, byaba ibya erekitoronike, imyenda, amasakoshi y'abagore, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane umuntu ashobora gukenera muzima bwe bwa buri munsi.

Icyumba cyiza kirimo ibyangombwa byose nkenera, gisa neza amarido meza uburyamo bwiza cyane, kandi bwa kijyambere bugezweho, aho uharyamye yumva yisanzuye kandi ameze neza.

Icyumba kiza kandi gisa neza cyane umuntu ashobora kuryamamo afite umutuzo ndetse n'umutekano kubera ukuntu e igitanda cyawo ndetse n'ibiryamirwa byabo bimeze neza kandi bifite isuku.

Uhantu heza cyane kandi hafite isuku hanisanzuye, aho umuturage ashobora kugura agatura kandi akishimira kuba ahatuye kandi ku giciro gitoya cyane mu mujyi wa Kigali.

Hoteri yitwa Regasi hoteri aho iherereye ikaba ifite amarangi y'umuhondo ndetse avanze na y'umweru, ikaba iri ahantu heza cyane ku muhanda hari amahumbezi hateye n'ibiti bishobora gutanga akayaga.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho kandi ifite amarangi atuma isa neza, amatara meza kandi ku buryo uyibonye wese ayishimira kuko iri ahantu hafite umutekano.

Umwanya uri ahantu heza kandi hanini hagari, ushobora gukoreramo ibikorwa byayo bitandukanye, byaba iby'ubucuruzi cyangwa ukaba ushobora gufasha abaturage mu bintu runaka, byaba ibya leta cyangwa iby'abikorera ku giti cye, ushobora kubahuza n'ibigo runaka kandi bitandukanye.

Uruganiriro rwiza cyane rugezweho, rurimo ibikoresho byiza kandi bigezweho bisa neza, ku buryo uhicaye wese yumva yisanzuye kandi akishimira aho yicaye.

Inzu igurishwa ifite irangi ryiza, amatara meza, uburiro bwiza kandi bugezweho ndetse n'amatara asa neza, hakaba harimo n'amakaro afite ibara ryiza cyane.

Igikoni gisa neza cyane gifite ibyangombwa nkenerwa kugirango umuntu abashe guteka ameze neza kandi yishimye harimo ibikoresho byabugenewe mu gukonjesha ibyabugenewe mu guteka n'ibyabugenewe mu gushyushya ndetse n'utubati twiza cyane.

Umuryango ushyirwa ahantu hatandukanye yaba ku cyumba cyangwa mu bwiherero usa neza cyane ku buryo utuma aho uri hisa neza.

Inzu nini kandi nziza yubatswe mu buryo bugezweho ifite igorofa rindi, isa neza cyane ku buryo umuntu wese uyibonye kubera ubwiza bw'ubusitani yishimira kuyituramo kandi ikaba ikodeshwa ku mafaranga make cyane.

Ikigo runaka kiri kwamamaza ibikorwa gikora kandi byiza bisa neza ku buryo ukiganye bamufasha mu buryo bwiza.

Inzu nziza cyane ikozwe neza yubatse mu buryo bugezweho ushora gusangamo ibyumba bigera kuri bitatu, ubwogero bwiza, uruganiriro rusa neza kandi rugezweho ikaba iherereye ahitwa Kabeza.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho kandi busa neza, amarangi meza, ahantu heza cyane iri kandi hafite umutekano.

Inzu nziza kandi isa neza, iri ahantu hanini kandi hisanzuye, ikaba irimo ibikenerwa byose nk'ibyumba bitatu ndetse n'ubwiherero bugeze muri butatu, ikaba iboneka aho bita Kimironko.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho isa neza kandi ifite umutekano, ikodeshwa ukaba ushobora gusangamo ibyumba bitandukanye ndetse n'ubwogero bwiza kandi bugezweho ku buryo umuntu ashobora kuyikodesha bimworoheye kandi ikaba iri ahantu heza.

Inzu nziza cyane iyo guturwamo ifite ubusitani bwiza isize amarangi meza cyane anogeye ijisho kandi meza.

Inzu nziza cyane ifite uruganiriro rwiza rusa neza rufite amabara meza cyane, aho umuntu ashobora kwicara akumva aratuje kandi hasa neza cyane.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho kandi isa neza, ifite amarangi meza, amakaro meza inzugi zisa neza kandi zigezweho, umuturage ashobora kuba yakodesha akaba yayibamo kandi yizewe n'umutekano wayo.

Inzu nziza cyane ifite amarangi atuma isa neza cyane kandi yubatswe mu buryo bugezweho, ifite n'ubusitani bwiza ku buryo uhageze wese yishimira kuyibona, ikaba ikodeshwa ku mafaranga make kandi ukaba wayibona ifite n'ubwogero bwiza cyane bugezweho.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali ahitwa Kacyiru hakaba ari inzu nziza ifite igikoni cyiza cya kijyambere akabati keza, aho bogereza hasa neza, amakaro meza ku buryo ibihatekewe biba bifite umutekano kandi byizewe.

Ahamamarizwa ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi yaba iby'ibinyabiziga, ubwubatsi ndetse igura n'igurishwa cyangwa ikodeshwa ry'ibinyabiziga.

Inzu nziza kandi isa neza iri ahantu hafite umutekano, ikaba iri mu icyumba kimwe n'ubwiherero ndetse n'ubwogero ku buryo umuntu uyifashe akaba yayikodesha yishimira kuba ayirimo kubera ubwiza bwayo.

Isoko rinini rigurishirizwamo ibyo kurya bitandukanye kandi bifite isuku, aho ushobora gusangamo ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa cyangwa ibyo kwisiga, amavuta y'isabune ku buryo urigana wese ashobora guhaha rwose yisanzuye.

Iduka ricuruza ibikoresho byagenewe abagore mu gusa neza yaba mu maso, cyangwa ku misatsi, cyangwa ibituma bashobora guhumura neza, bimwe muri byo akaba ari imibavu igezweho.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Isoko rinini cyane riri ahantu runaka mu mujyi wa Kigali rikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ubucuruzi bitandukanye yaba ubw'imyenda ibikoresho bitandukanye kandi byorohereza umuguzi kuba yagenda ahantu hamwe agahahira rimwe.

Ahacururizwa ibintu bitandukanye yaba ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho bisanzwe mu kazi gasanzwe ndetse n'ibyo kurya.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye, yaba ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bigezweho kandi bifite isuku, bigacururizwa ahantu hasa neza.

Isoko rinini cyane, ry'ubucuruzi, aho urujya n'uruza rw'abaturage baza barigana, kandi bakabona ibyo bakeneye, byaba imyambaro, ibyo kurya, cyangwa ibindi bintu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubufasha buri guhabwa umuturage mu byerekeranye n'ubwisungane mu kwivuza cyangwa akaba agiye kwivuza ku buryo biza kumworohera.

Ahahuriye abaturage batandukanye baje kwivuza cyangwa kuvuza abana babo kugira ngo bahabwe ubufasha butandukanye mu kwivuza.

Ahahuriye urujya n'uruza rw'abaturage, mu guhabwa ubufasha butandukanye, by'umwihariko mu byerekeranye n'ubwisungane mu kwivuza.

Impapuro zigaragaza umunyamuryango wishyuye ubwisungane mu kwivuza, aho aba afite urupapuro rwabugenewe yerekana mu gihe agiye kwivuza ku buryo umwirondoro we byoroha kuwubona.

Iyamamazwa ry'ikigo gishinzwe gutanga ubwisungane mu kwivuza gishishikariza abaturage kuba bakwishyura cyangwa bagatunga ubwo bwisungane mu buryo bworoshye.

Urupapuro rw'umunyamuryango mu kwivuza, kandi rukaba rwemeza ko uwo munyamuryango ya yishyuye, hakaba hanariho n'ifoto imuranga.

Ahatangirwa ubufasha rusange aho abaturage baza gusaba cyangwa bagahererwa ubwo bufasha bwaba mu kwivuza cyangwa mu by'amategeko.

Iyamamazwa ry'ubwishingizi mu kwivuza haba mu buryo rusange ku bamugaye, ku bakeneye ubundi buvuzi bwihariye ndetse n'uburyo abashakanye bashobora kubonezamo urubyaro.

Icyapa cyamamaza cyangwa kikerereka abaturage uburyo butandukanye bashobora kwizigamiraho kugira ngo igihe kiri imbere bazabone ubufasha cyangwa bazabone amafaranga azabafasha mu gihe bageze mu bibazo cyangwa bageze mu za bukuru.

Umuturage uri guhabwa ubufasha bw'ibanze mu kwivuza cyangwa mu guhabwa ubufasha mu byerekeranye no kubona ibyangombwa, mu bwisungane no kwivuza.

Ahateraniye abaturage bari guhabwa ubukangurambaga mu buryo bashobora kwishyura ubwisungane mu kwivuza ndetse bakanamenya n'uko bakwitwara muri ejo heza habu.

Ahacururizwa ibyo kunywa biryohera kandi bitandukanye yaba ingano ndetse n'ubwoko kubabikeneye.

Iduka rinini ryagenewe ubucuruzi rikaba, ririmo ibintu bitandukanye, yaba ibyo kurya ibikoresho by'isuku, amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye umuguzi ashobora kuza kandi akabona mu buryo bworoshye.

Ahacururizwa ubwoko butandukanye bw'ibiryo ndetse n'ibindi bikoresho runaka kandi byujuje ubuziranenge ku buryo byizewe umutekano wabyo.

Iduka rinini rikoreshezwamo ibintu bitandukanye, yaba ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, umuturage ashobora kwifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Iduka rinini rigurishirizwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo kunywa n'ibikoresho bikoreshwa mu bindi bintu runaka, bihurirwamo n'abantu benshi.

Iduka rinini cyane ririmo ibikoresho bitandukanye aho ushobora gusangamo ibyokurya, ibyo kunywa, yaba ibitetse cyangwa ibibisi kuburyo ushobora gutaha ukabyitekera, kandi bifite isuku binafite binizewe n'umutekano wabyo.

Iduka ry'ubucuruzi ricururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa byujuje ubuziranenge kandi bifunitse neza.

Iduka rinini cyane, rigurishirizwamo ibyo kunywa bisembuye kandi bigezweho, ku buryo urigana wese abona icyo ashaka, kandi mu buryo bwiza.

Iduka rinini ririmo ibintu bitandukanye kandi bifite isuku, ku buryo ubihaha cyangwa uhabonye wese aba yumva anyuzwe n'isuku yabyo.